Umusirikare ari gukoresha inama aho afite mikoro isa umutuku irimo n'umurongo w'umukara ahaganara hasi ikaba ari umukara, aba bantu bitabiriye inama buri wese afite amazi ari kunywa bicaye mu cyumba cyiza cyisanzuye kinini cy'ubuyobozi aho gifite amabara y'umuhondo ku nkuta n'amadirishya amwe afunguye n'andi afunze.

Muri iyi nama hateraniyemo abantu b'ingeri zose, buri wese afite amazi imbere ye. Hari abantu b'abagore n'abagabo bose bari kwitegereza uri imbere, uri kubaha ikiganiro. Umugore yambaye amataratara bose bicaye mu ntebe z'icyubahiro. Hakaba hamanitsemo amarido y'umweru mu nyubako nziza ikeye.

Abantu benshi bitabiriye inama bicaye bose barebye imbere buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye, hari ameza ariho agatambaro k'umweru arambitseho ingofero hakaba hariho n'agakayi k'umugabo umwe wambaye agapira k'umukara gaciye amaboko inyuma hari abandi bambaye amakote harimo babiri bambaye amataratara.

Umuporisi ahagaze imbere ari kwigisha abaturage uburyo bakwirinda ndetse bakicungira n'umutekano wabo, inyuma mu baturage ari kwigisha harimo n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare, buri wese imbere ye hari amazi, iyi ni inama yahuje abayobozi bari kuvuga ku bijyanye n'umutekano uko uhagaze mu gace kabo.

Umugabo yambaye ikositimu y'umukara na karuvati y'umukara n'ishati y'ubururu bwerurutse, yicaye yegamimye, imbere ye hari amazi n'inyuma ye hari agacupa k'amazi, akaba yicaye ku ntebe itari kugaragara aho yegamiye ariko impande ye hari intebe ifite aho begamra y'icyatsi ndetse n'ameza meza ari kwerereza.

Inama yahuje abantu y'umuryango wa FPR, bambaye bose imyambaro iriho ibirango bya FPR ndetse n'amabara ya FPR, ari yo ubururu, umukara ndetse n'umutuku. Bambaye ingofero, utambaye ingofero yambaye umupira ariko byose akaba ari iby'umuryango FPR.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'ibyubahiro bose bambaye amakositimu na za karuvati. Bicaye buri wese afite amazi ndetse na ji yo kunywa. Bari mu nama ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare.

Izi ni intore ziri kubyina bambaye inigi bose mu ijosi ni abagabo beza b'abasore, bambaye hasi imyambaro y'umukara n'inkweto n'amayugi ,harimo n'abambaye ibirenge nta n'amayugi bafite aha bari hari habaye igitaramo runaka.

Aka ni agakoresho ka kinyarwanda bita igicuma gateretse ku meza, aka gakoresho gakoreshwa banywa inzoga nk'urwaywa n'ikigagi. Aka ni kimwe mu bikoresho abakurambere bifashishaga mu kunywa mu gihe habaye ibirori.

Intore zizi kubyina neza, zifite impuzankano zambaye, ishati y'ikanzu y'umukara akantu k'umushanana ko kwitera agasa umuhondo, ndetse zambaye n'urunigi, mu maguru yabo bambaye ibyo bita amayugi. Ikigaragara aha hari ikirori gishyushye cyane.

Uyu mukozi w'amashanyarazi yuriye hejuru, yambaye ibikweto bimufasha gufata biba bifite amenyo bifata ku mapoto, yambaye ingofero y'umuhondo akaba akenyeye n'ibintu. Ari ku ipoto ririho insinga na za konteri zizwi nka mubazi ari kugirango ngo arebe ikibazo cyabaye impamvu umuriro utari kwaka.

Umukobwa wambaye ikigofero cy'umuhondo cy'abubatsi, yambaye n'isurubeti cy'umukara gifite n'utubara tw'umweru. Ahagaze ahantu afashe ku rwego, inyuma ye hari abantu benshi bahagaze barebabye hirya.

Umuzungu yambaye akajiri ahagararanye n'abandi bagabo benshi bambaye utujiri, umwe yambaye akajiri k'umuhondo n'amabara y'icyatsi naho abandi bambaye utujiri tw'icyatsi n'akabara kajya gusa igitaka, ni abantu bakora imihanda, inyuma hari ikimodoka gitwara ibitaka gifite inyuma hashaje cyane.

Inyubako y'umuhondo ifite idirishya rifunguye n'umuryango w'umukara hirya yayo hari akabogisi k'umutuku hakaba hari n'amapiloni maremare cyane munsi hahagazemo abantu, hari ikibuga kinini kisanzuye hakaba hari n'umuhanda ukomeza ugana imbere.

Kuri SACCO hari ibendera ry'u Rwanda, ni saco yubatse ku buryo bwa kijyambere, aho ifite urubaraza aho bakirira abantu, hicaye umuntu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, hakaba hari amadirishya y'ubururu afite ibirahuri, mo imbere urebyemo hari aho bakirira abakiriya.

Turabona parikingi y'aho baparika muri kaburimbo, aho imodoka iparika hose haba haciyemo imirongo y'umweru kugira bereke buri mushoferi aho azaparika, hari n'isoko riparitseho utumodoka hanze ndetse ni isoko rya etaje igeretse, hari ahagana ibumoso bwayo inzu y'ibirahuri gusa y'umutamenwa.

Aha turahabona umuhanda muremure ufite n'utundi duhanda dushamikiyeho, munsi yaho hari inzu z'icyatsi zigezweho hakaba harimo imodoka ziri gucamo nyinshi, ahagana ruguru hari ikibara kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'ikibuga witegereje hakurya ubona ahari urusisiro rutuyemo abantu benshi cyane.

Aha hari imashini zisiza umuhanda hakaba ibimodoka bitwara ibitaka ndetse n'ibindi byuma bitandukanye. Aha ngaha naho babika ibikoresho byabo harimo n'umugabo umwe wambaye agasengeri k'umuhondo n'abandi bari kubaka inyubako z'ibyuma aha hirya y'imashini y'umuhondo.

Nyakubahwa perezida ari kugenda n'amaguru. Ari hafi y'umupaka wa kongo. Imbere ye hari abapolisi n'abasirikari. Hari icyapa cyanditseho ngo ''repubulic of Uganda'' bigaragaza ko ari icyapa gitandukanya u Rwanda n' Ubugande.

Buri gikorwa remezo cya leta cyose kigomba kuba kiriho ibendera ry'u Rwanda, aha turahabona ibiro by'akagari byubatse neza bifite ikibaraza haziritseho agashumi ku ku nkingi, hariho inkingi eshatu imwe y'ubururu indi y'umuhondo indi n'iy'icyatsi, hariho amabati meza y'ubururu ndetse hubakishije amatafari ahiye.

Iki ni ikiraro cyo mu kirere kiba kigizwe n'ibyuma gusa, hakuno haba hari ibyuma bishinze no hakurya hari ibindi barangiza bakaboheraho ferabeto na za senyege kugira ngo abantu bajye bagicaho, kiba cyambukanya ahantu mu gishanga hanini cyane kugira ngo umuntu atajya akandagira mu mazi igihe byananiranye.

Aha tubona ni ku kigo nderabuzima cya Mwendo. Ahahagaze abaganga benshi bari kwifotoza barebye imbere, bambaye udushati hejuru tw'umweru no hasi amapantaro y'umukara abandi amakoboyi. Hari ibyapa bibiri: kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, ikiri iburyo cyanditseho ngo igi ni ubuzima.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya gishambashayo, hari abantu babiri bambaye udupira tw'umutuku abandi bambaye udutaburiya tw'umweru, harimo abenshi biganje ku mapantaro y'umukara bari gufata ifoto harimo n'abambaye amataburiya bishimiye kwifotozanya kw'iki kigo nderabuzima cya gishangashanyi.

Inyubako y'umutamenwa ifite amabati y'umutuku agezweho, ifite n'ikigega kiba cyubakiye hejuru, hirya yayo hari amadapo atatu hariho rimwe ry'u Rwanda n'irindi ritagaragara neza, imbere hari umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse n'ubusitani bw'indabyo nziza cyane.

Abasirikare babiri bahagararanye n'abandi bantu benshi batambaye imyenda ya gisirikare harimo n'umupolisi, bahagaze ahantu hari umushumi bari guca kugira ngo batambuke, aho ku mpande hari ibyo twita senyenge, inyuma hakaba hari ibyuma bifasha ahantu hari utuntu tw'umweru bizamuye hejuru mu kirere.

Imodoka y'umweru iri kuza mu muhanda, aho umuhanda ufite ibice bibiri, hagati harimo umurongo w'umuhondo ugabanya iyo mihanda hakaba hari n'imirongo ibiri y'umweru iri ku mpande itandukanya umuhanda wi'imodoka n'inzira z'abagenzi ku ruhande hari uruhave runini cyane ruriho ibyatsi n'ibiti.

Aha hari abantu benshi bicaye mu itente harimo abapolisi, harimo umusirikari, harimo n'abandi bashyitsi benshi batandukanye bambaye utuntu mu ijosi, ikigaragara ni uko hari ku munsi wo kwibuka bari baje kwibuka ababo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Buri gikorwa remezo cya leta cyose kigomba kuba cyubatse neza, iyi ni posite do sante aho bahurira, hari inyubako nziza yubatse n'amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, isakaje amabati meza, ifite n'igikoni cyayo cyiza, ifite n'ikigega cy'umukara gitangira amazi, imbere hari icyo bita igicumbi cyanditseho ngo itorero ry'Umudugudu wa Gacumbezi.

Aba bari ahaha nk'uko tubabona bose barababaye bari mu gahinda. Baje kwibuka ababo kuko bambaye udutambaro mu ijosi, hakaba hari n'abandi bambaye utuntu bita utubaji mu ndimi z'amahanga. Inyuma hari abandi bambaye utuntu tw'umuhondo benshi, n'abandi bambaye udupira tw'ubururu.

Imodoka y'Akarere iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, n'imodoka ya toyota iba ifite ibyumba bibiri imbere bisakaye n'ikindiyuma kidasakaye, igeze ahantu hari umutaka acururizamo MTN, uteye imbere y'inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo ritandukanya inzira y'abanyamaguru ndetse n'umuhanda imodoka zicamo hari icyapa cyanditseho mirongo inani, iki cyapa gisobanura ko umushoferi atagomba kugendera ku muvuduko urenzero mirongo inani, icyapa kandi kiri mu ishyamba ririmo ibiti byiza binini by'inganzamarumbu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akantu k'umuhondo kagabanya umukono w'izimanuka n'izizamuka, hirya hakaba hari abantu b'abagabo bitwikiye umutaka bacururizamo amayinite ya Airtel, hakaba hari n'akamodoka k'umutuku gaparitse imbere y'igorofa ahagana hakurya na none hari indi nyubako ifite amarangi y'icyatsi.

Aha turahabona abagabo benshi cyane, bahagaze imbere y'inzu ifite imiryango ibiri n'amadirishya abiri bisize ibara ry'icyatsi. Iyi nzu ifite n'igikoni cyayo hirya. Aba bantu baje mu muganda, none bari kwikorera amabuye kugira ngo bakore umuhanda wabo neza, wari warapfuye warangirijwe n'imvura.

Aba bantu bose bambaye ingofero, ni ukuvuga ko bakora mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, bambaye impuzankano zisa, byanditseho inyuguti z'icyatsi kijya gusa ubururu, bambaye ingofero z'umuhondo zifashishwa mu bwubatsi bari kugenda mwishyamba, inyuma hari undi wambaye agapira k'umutuku na we ari kugendana na bo.

Umugabo ahagaze atwikiriye umugore uri gutanga ikiganiro, umugore afite microphone ku munwa ariyo twita indangururamajwi mu kinyarwanda, ari gutanga ikiganiro bamutwikiriye. Inyuma turahabona umugore ucigatiye umwana ndetse n'andi mabara y'icyatsi akoze itente bicaramo bugamye izuba.

Umuganda rusange ni igikorwa gihuza abayobozi n'abaturage. Aha turabona abaturage bikoreye amabuye harimo umupolisi n'umusirikari bari kumanuka. Hakaba umuyobozi wambaye bote n'isaha hakaba n'umudaso uteruye ibuye n'undi mugabo nawe uteruye ibuye wambaye ishati y'amabara y'umweru n'umukara n'ipantaro na bote hakaba n'abandi baturage bose bigaragara ko bishimiye umuganda.

Abana b'abakobwa nabo barashoboye haba gukina umupira ndetse no gukora izindi siporo zitandukanye, aha turabona umukobwa wambaye agapira k'umukara kanditseho ngo tabagwe segita na nimero zirindwi mu mugongo yishimye ari guserebura amaze gutsinda igitego, ari hamwe n'abakobwa bambaye imyenda y'ubururu n'umweru bo batishimiye bigaragara ko aribo bamaze gutsindwa.

Amakipe abiri yahuye ari gukina, imwe yambaye amajezi y'umuhondo, indi yambaye amajezi asa ubururu, bose bambaye inkweto umukinnyi wo muri iyi kipe yambaye jezi y'ubururu niwe afashe umupira hirya hari n'umusifuzi wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara.

Abagabo benshi n'abagore bose bari kwirukanka, bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo, bari kugenda muri kaburimbo iriho amabara y'umweru ndetse n'umukara. Ku muhanda hari amatara acanye bigaragara ko hakiri mu ijoro. Ni mu rukerera bari gukora siporo yo mu rukerera.

Abakinnyi bari gukina ari amakipe abiri: imwe yambaye ubururu burimo icyatsi indi yambaye ubururu bwerurutse cyane imanuyemo akarongo k'umweru. Aho bari gukinira mu kibuga, none umukinnyi umwe ateza undi none aguye hasi, agiye gufata umupira ngo batere ikosa.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda itwawe n'umuntu wambaye kasike y'icyatsi ihetse ibijerekani, iri kugenda muri kaburimbo ahantu harimo umurongo w'umweru utandukanya inzira y'abanyamaguru hamwe n'umuhanda w'imodoka, hepfo turahabona akapa k'umweru kanditseho imibare kari mu ishyamba.

Aha ni ku kibuga aho bigishiriza gutwara ibinyabiziga ku bantu bashaka impushya, turahabona imodoka y'itagisi y'umweru iri guca muri parikingi, aho baba bashinze ibiti abantu bacamo bari gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga.

Aha ni hamwe bigishiriza ibinyabiziga hari ikibuga kinini cyane, ahagana hirya hari imodoka y'itagisi bigishirizaho abantu bashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bita ngo D. Iyi modoka iparitse muri parikingi bari kugira ngo barebe ko umunyeshuri wabo yayivanamo akaba yakorera uruhushya.